Akazu k'umucuruzi wa MTN, aho hahagazemo umugabo wambaye umupira wa MTN w'umuhondo ari kwakira umumama wambaye ingofero y'umukara wambaye n'ikanzu uje kwaka serivisi, aho uyu mucuruzi atanga serivisi yo kubitsa kubikura no gucuruza amayinite.

Hano turahabona akazu, ka umu agenti utanga serivisi runaka, hakaba hahagazemo umugabo wambaye umupira, hanze hakaba hari abamama babiri n'umukobwa umwe, n'abagabo batatu.

Hano hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, wicayemo umukozi we MTN wambaye ijire y'umuhondo, hirya ye hari akazu ku mwajenti wa MTN, hanze yako hicaye umukozi wa Airtel wambaye umutuku.

Akazu k'umukozi wa Aiter, gahagazemo, umukobwa wambaye ijire itukura, hanze hahagaze umugore wambaye igitenge.

Aha turahabona akazu k'umucuruzi wa MTN. Ahatangira serivisi yo kubitsa no kubikuza ndetse no kohereza amayinite. Iruhande rwe hakaba hari umutaka uteye mu meza, hakaba munsi hicayemo abagabo babiri.

Aha turareba abagabo babiri umwe ni inzobe undi ni imibiri yombi, akaba ari umwajenti n'umukiriya uje umugana, umwajenti w'ishami rya MTN akaba ari kureba muri telefone ko n'icyo bakoze, ari kumwereka igisubizo cyacyo.

Abakozi babiri ba Airtel bambaye umupira utukura, aho bari gufasha umukiriya, umukobwa wambaye manette n'umupira w'umweru, ufite agasakoshi.

Aha turahabona akazu k'umukozi ukorera MTN. Karafunze ariko gatangirwaho serivisi zitandukanye nko: kubitsa, kubikura no kohereza amafaranga n'ibindi byose bisa na serivisi za MTN.

Aka ni akazu k' irembo, kakaba gatangirwamo serivisi zitandukanye, harimo iza banki n'iz'irembo zisanzwe. Hakaba hicayemo abantu batatu, hateretsemo icupa ry'amazi.

Aya ni amazu y'ubucuruzi, aho hari umutaka uri mu muryango, hakaba hari akantu k'imbaho kari mu ibara ry'umweru kiciwemo n'umuntu uri kuri mashini, utanga serivisi z'indirimbo.

Aha turabona ko ari muri gare, aho ahahurira abaturage b'ingeri zose abagenzi babanje gushaka imodoka zibajyana aho bagiye, tukaba tubona n'umutaka wa MTN, munsi hakaba hicayemo abagabo babiri b'amajire y'umuhondo n'abandi babiri bahagaze.

Aya ni amazu ari ku muhanda nyabagendwa. Bene Aya ngaya aba ari ayubucuruzi. Amazu ari muga santere abagomba kuba ari ay'ubucuruzi. Akorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi cyangwa izindi serivisi.

Aha ni muri sale idekoye, hakaba hateraniyemo, abarimu b'ingeri zitandukanye. Hari abagabo batatu, babiri bambaye imipira isa y'umukara, bari gushyikiriza ishimwe, umugabo wambaye ikote ry'umutuku n'agapira k'ubururu.

Iki ni icyumba k'inama aho giteraniwemo n'abayobozi batandukanye, hakaba hari uwicaye imbere y'ameza wegamye ureba uri kuvuga, hari umugabo uhagaze hagati yabo uri kuvuga utanga amakuru, hakaba hari kamera iri kumukamera iteretse ku meza.

Isoko rinini ry'ibiriwa imboga n'imbuto, aho imvura yaguye hasi hanyereye, hari abaturage bamwe bitwikiriye umutaka.

Uyu ni umama wambaye itaburiya y'umweru, ingofero irimo akarongo k'umukara, iruhande rwe hari intebe na terefone mu ntoki, yambaye isaha n'impeta mu rutoki. Inyuma ye hari urugi, bigaragara ko ari mu cyumba kandi akaba ari umutetsi.

Aha turabona inzu, ibika umusaruro wibigori, aho babisarura bakaza kubishanandikamo, kugira ngo byume...

Inzu y'umurenge sacco itanga serivisi zo kubitsa no kubikuza, ku ruhande hari akandi kazu kokesha amatafari ahiye, hagati hagaze umumama ahetse umwana amutwikirije agatambaro kumweru, na moto iparitse mu rubaraza.

Umurima w'inanasi uhagazweho n'abamama babiri n'abagabo babiri. Bari kwitegereza umusaruro wabo nubwo utari wera.

Aha turahabona ihuriro ry'abagabo batandukanye abagore, abagabo harimo bambaye imipira y'imihondo, imipira ya oranje, hakaba hari uwambaye agapira k'ubururu n'ijipo y'umutuku, n'abambaye imipira y'umukara.

Bandelore imanitse ku rukuta rw'icyumba gikorerwamo inama, aho ubuyobozi bwizihije umunsi mukuru w'amakoperative hamwe n'abanyamuryango b'amakoperative, aba tubona akaba ari abayobozi batatu bicaye.

Uyu ni umukecuru ubumba utwunga, amavaze bateramo indabyo, ukamba umupira w'umutuku, inkweto z'umuhondo, yiteze igitambaro mu mutwe.

Umubyeyi ukenyeye umukenyero urimo umutuku n'agapira k'umukara, ufite ibipapuro mu ntoki. Ahagaze mu murima w'ibigori, yerekana ko umusaruro we uri gukura neza.

Umuyobozi wa banki uri kuganiriza abagize amakoperative, yambaye ikote na karuvati afite ikora mu ntoki yarineti.

Ubutanda bw'ibiti baramburaho imyaka y'amakoperative yejeje kugira yume ihakurwe ijya mu mifuka bajya kuyibika.

Hano haragaragara icyapa cy'umweru, cyanditsweho amagambo, yandikishije ibara ry'ubururu n'umukara, cyekana kandi bitangaza ko ari ikigo cy'imari giciriritse.

Aha turabona abaturage bicaye begeranye, abagore, abagabo, hagati yabo akaba harimo umugabo wambaye ikote afite mikoro na linete.

Umuyobozi uri imbere ari gutanga disikuru, afite mikoro, yambaye ishati y'umukara n'isaha ku kuboko.

Ikusanyizo rya koperative y'amata aho hagati yayo haparitsemo moto iriho kasike.

Iri ni isoko ry'ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye hahahirwamo ibintu byinshi bitandukanye, imbere yaryo hari abantu bari kuhatambuka, undi ufite umutaka witwikiriye.

Hano turareba inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye, inzoga nyinshi zipfundikiye zo mu mavide no mu makarito, akaba ari akabari gahenze, keza kandi gakomeye.

Aha turahabona bare, aho ibikuta byaho n'utubingaro byukishijwe amabuye, hari ahantu inyuma hasa n'aho ari ku gikoni hari amajekani n'ibase, hagati mu tubingaro turabonamo intebe z'umweru.

Akabari k'inzoga n'ibiribwa bitandukanye n'ibirayi n'imigati.

Bare hagati mu kabari muri kontwari hapanzemo inzoga nyinshi z'amawayini n'amadivayi ndetse na za shampanye z'ubwoko bwose.

Butike icuruza udukomo, imyenda idoze mu bitenge n'udukapu tudoze mu bitenge.

Inzu icururizwamo imyambaro y'ibitenge, hakaba harimo umumama uhagaze ucururizamo.

Aha hagaragara ko ari aho hari mu bubiko bwa gaze zigurishwa, aho hari umugabo wambaye umupira n'ipantaro y'umukara na ga mu ntoki usa naho uri kuzimanura azicuruza.

Hano turahabona, intebe ya sheze, iri muzu, iri kuraswaho n'izuba.

Etageri irimo inzoga ziri mu macupa y'amadivayi n'izindi ziri makarito; amaji n'amazi by'ubwoko bitandukanye, butike icuruza ibinyobwa...

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, inadoderwamo icyarahani, harimo imashini nyinshi zidodeshwa, hari amabaga agurishwa n'abantu barimo badoda imyenda yo kugurisha.

Aha haragaragara nk'ahakorerwa ubucuruzi, hakaba hacururizwa ibintu bitandukanye bikenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi.

Aha turabona ari mu isoko ricuruzwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho tubona ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibiribwa, nk'inyanya, n'amacupa arimo amavuta.

Ku bantu dusengera muri Kiliziya Gatulika turabizi ko Aritari iba iri imbere, aho Padiri aba yicaye ndetse hejuru haba hari umusaraba tuzi ko wamanitsweho Yezu yicwa, iyi rero akaba ari Kiliziya Gatuklika irimo abakirisitu, tukaba tubona umutambagiro w'abambaye imyenda y'umweru bari kugana kuri Aritari.

Kiliziya nini cyane yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hakaba ari umunara na wo wubakishije amatara amatafari ahiye, hejuru hakaba hari umusaraba.

Urusengero rwo mu cyaro rwangijwe n'imvura kubera amashayi rurashaje rukingishwa inzugi zimbaho, rusize ingwa, hanze rwari rwubakishije amatafari ahiye.

Aba ni abakirisitu n'aba pasiteri bari mu rusengero, aho bari imbere kuri aritari imbere yabo hakaba hari ameza arambuye ibitambaro ateretseho amazi, baricaye bose hari abambaye amakote.

Abakirisitu bari mu rusengero, bari gusenga, bamwe barapfukamye, abandi barahagaze.

Aha turabana ihuriro ry'abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, urubyiruko bisa n'aho baje mu gikorwa kimwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Uru ni urusengero rwa kiliziya, imbere yarwo hahagaze abana n'abantu bakuru, bitegura kwinjira bakajya kumvava misa.

Hano turahabona amafunguro, amasosi y'ibishyimbo na teyi ikoga mu ifarini, imigati n'amandazi.

Hoteri nini cyane igeretse rimwe, imbere yayo hari imodoka ziparitse enye, hakaba hari na jaride hanze yayo.

Aha hari ameza ateretseho amasahani ariho ibiryo n'amavide ya fanta ndetse n'ibirahure biteretseho.

Aha turahabona inzu bigaraga ko ari nk'ivuriro. Hatangirwa serivisi z'abarwayi. Hanze hateye ibiti by'indabo ndetse n'ibyatsi. Hasi bifite amarangi y'umuhondo n'umweru.

Urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bamwe bambaye linete bose bambaye ishati z'umweru n'amapantaro y'umukara, bakaba bari gufata ifoto hari ufite ibipupro mu ntoki bahagaze mu gisambu.

Hotel nziza nini ifite ubusitani hanze na korotire yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kirimo igitanda, iruhande hari akameza. Gishashe neza n'amashuka y'umweru n'ikovurore itukura.

Hoteri ikomeye kandi yubatse neza, muri koridori harimo ivaze riteyemo iwuwa, hino hari imiryango ifunguye y'aho abantu bicara.

Aha tarabona icyumba, kiza cyane kirimo uburiri bushashe, imbere yacyo hari agatapi n'intebe, kikaba kiriho n'imisego.

Turabona icyumba kirimo furati n'uburiri bushashe, n'akameza iruhande rwacyo. Kikaba kigaragara ko ari icyumba gicumbikira abantu.

Icyapa cya hoteli kiriho ibyo wasanga hoteli, inyuma yacyo hari ikindi cyapa cy'ibara ry'umuhondo, hino hari umuhanda wa kaburimbo uteyeho ibiti ku muhanda n'indabyo.

Pisine y'amazi iri muri jaride, aho ahantu hari amatara meza, pisine isa neza, akaba ari mu ijoro.

Aha turahabona ravabo, isa n'aho iri muri salo, aho bakarabira bagiya gufata amafunguro, ibumoso hakaba hari firigo.

Iri ni isoko ryubakiye ricuruza imyenda, hakaba harimo abantu babiri bicaye mo imbere hamanitsemo amakanzu.

Aha turahabona aba mama batatu n'umugabo umwe, umugabo yambaye agapfukamunwa, umugore yambaye asa nkaho ari gusobanurira abandi.

Iri ni isoko ricururizwamo imyenda itandukanye hakaba harimo urubyiruko, abagore, abagabo baje kwihahira imyenda, hakaba harimo n'abacuruzi bayibitanga, umubyeyi uheretse umwana wambaye akagofero akaba yambaye n'umupira utukura.

Muri hoteli, sale yicarwamo bari kurya bari gufata ikintu, hakaba harimo ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru, n'intebe ziteyeho ku nkingi hakaba hadakoreye neza.

Aha turabona muri hoteli aho tubona muri sale, ahantu bicara, aho hajya hateye intebe kuri buri tabule n'ameza hagati ya hejuru hakaba ari amatara menshi y'umweru.

Resitora iri kumwe n'akabari aharimo ibiribwa n'icyo kunywa, hafatirwa amafunguro ya mu gitondo saa sita nijoro, hakaba ari intebe zizamuye ndende zitukura. Imbere muri kontwari harimo firigo ya Sikoru.

Sale irimo ameza arambuyeho ibitambaro n'intebe, sale idekoye neza, bicaramo bari gufata amafunguro.

Umugabo uri ku igare wambaye ishati y'amaboko ahetse umugore we, haziritseho amasuka bagiye mu murima. Mu umuhanda w'igitaka hirya ye hari inzu ikingishije imiryango y'umweru, urugo ni imiyenzi.

Iyi ni moto itukura irikumwe n'umumotari wayo wambaye kasike n'ijire itukura n'umupira w'umuhondo w'amaboko maremare hino yayo hari umukozi wambaye imyenda mpuzangano y'akazi ke, uri gushyiramo batiri muri moto.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa b'ingeri zitandukanye arimo umunyegare wambaye ikote, inyuma ye aho yarenze hari imirongo y'umweru igaragaza ko ariho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo waguwemo imvura, hakaba harimo umumotari wambaye ijire y'icyatsi na kasike z'icyatsi, aho umushoferi wa moto atwaye umugenzi, umukobwa we afite isakoshi wambaye ipantaro y'ikoboyi.

Aha tureba ni umuhanda umennyemo utubuye ntabwo urayeramo kaburimbo hakaba harimo igare ritwawe n'umunyonzi akaba ahetse umumama wambaye ikanzu ya karokaro.

Iyi ni kaburimbo irimo umumotari uri kuri moto nakasike, kandi yambaye hari n'umunyegare kuhande bakaba bari kujya mu cyerekezo kimwe.

Aha turabona umuhanda wa kaburimbo, hakurya hari umurima uhinze uteyemo igiti, muri kaburimbo harimo moto n'umotari wayo, ahetse n'umugenzi, bakaba bambaye kasike zitura, ku ruhande haka hariho n'ipoto y'umuriro.

Uyu ni umuhanda w'amabuye urimo uragendamo igare n'umunyegare waryo inyuma ahetse indobo irimo ibigori, hakurya hari amazu y'ubucuruzi n'imodoka iparitse.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo na moto, iriho umumotari wayo n'umugenzi wambaye kasike. Umumotari wayo yambaye kasike y'umutuku, umugenzi yambaye iyicyatsi. Hakurya hari amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto itwawe n'umumotari, wambaye kasike y'umutuku uhetse umugenzi wambaye kasike y'icyatsi, inyuma yabo hari uturongo tw'umweru, tugaragaza ko hariho umunyamaguru agomba kunyura. Hirya hari icyapa cya parikingi y'imodoka.